Icyumba kinini kirimo urumuri, kirimo imbaga nyamwinshi y'abantu, higanjemo abagore, abenshi muri bo bambaye amajire arimo ibara ry'umutuku ya croix rouge, hagati yabo hari umugabo ufite urupapuro ruri mu ibara ry'umweru mu ntoki.

Into zu nini isizwe irangi ry'umweru yanditseho amagambo ari mu ibara ry'umukara imbere yayo hari imbaga nyamwinshi y'abantu higanjemo abambaye amajire arimo ibara ry'umutuku. Hari umugore w'umwirabura wambaye umupira w'umweru ndetse n'ipantaro iri mu ibara ry'umukara.

Abakozi ba Croix rouge bari kugenda mu muhanda w'igitaka bambaye amajire ari mu ibara ry'umweru. Umwe muri bo ni umusore yambaye ipantaro y'umukara ingofero y'umutuku imbere yabo hari isoko ricururizwamo imyenda ndetse n'ibikoresho bitandukanye.

Icyumba gitangirwamo serivisi z'ubuvuzi kirimo urumuri ndetse gisize irangi ry'umuhondo kirimo abaganga batandukanye, higanjemo abambaye impuzankano igizwe n'amatabuririya arimo ibara ry'umweru, umwe muri bo afite igitabo mu ntoki ndetse n'ikaramu imbere ye hari umurwayi w'umugabo wicaye ku gitanda cy'abarwayi.

Ameza, indabyo, abagabo bambaye udupira tw'imituku n'amajire, aba DASSO bambaye imyenda y'icyatsi, ndetse inyuma yabo hari abantu benshi batandukanye n'imodoka.

Abantu barimo baratanga ibikoresho bigiye bitandukanye birimo ibikoresho byo mu nzu, iyi ni imiryango itegamiye kuri leta yitwa Croix Rouge ndetse barimo barabihereza abagenerwabikorwa.

Icyumba gitangirwamo serivisi z'ubuvuzi, kirimo abantu batandukanye ndetse n'ibikoresho, kirimo umuganga, wambaye impuzankano y'abaganga, igizwe n'itaburiya riri mu ibara ry'umweru, hirya ye hari igitanda cy'ikoranabuhanga, kigizwe n'ibara ry'ubururu, kiryamyeho umusore, wambaye ipantaro y'umukara, ijire iri mu ibara ry'umutuku ndetse n'agapira k'umweru.

Icyumba gitangirwamo serivisi z'ubuvuzi, kirimo urumuri ndetse gifite amadirishya arimo ibara ry'umukara kandi gisize irangi ry'umweru, kirimo imbaga nyamwinshi y'abaganga higanjemo abambaye imyenda irimo ibara ry'umweru ndetse bari gukora isuku bakoropa.

Icyumba gitangirwamo serivisi z'ubuvuzi, kirimo irido ndetse gisizwe irange ry'umuhondo. Kirimo ibikoresho bitandukanye byifashishwa mu kuvura abarwayi ndetse n'imiti itandukanye. Mu gihe turwaye ni ngombwa kugana ku kigo nderabuzima kuko bituma tugira ubuzima bwiza bityo bikaturinda indwara.

Inzu yubakishijwe amatafari ya rukarakara ndetse ifite umuryango uri mu ibara ry'ubururu, imbere yabo hari intebe ebyiri zikozwe mu mbaho, zicaweho imbaga nyamwinshi y'abantu. hari abagore babiri, umwe muri bo yambaye ijire irimo ibara ry'umutuku.

Umugabo uhagaze imbere y'imbaga, yambaye imyenda y'akazi akora ndetse n'ingofero, imbere ye hari abagabo ndetse n'abagore, harimo n'abari kwandika ibyo arimo ababwira.

Ibitaro by'Akarere ka Nyagatare. Iruhande rwaho haparitse imodoka yifashishwa mu gutwara abarwayi ibavana hamwe ibajyana ahandi yitwa imbangukiragutabara.

Ibitanda byo kwa muganga biryamyeho abarwayi batandukanye, buri gitanda kigiye kiriho ibikoresho by'ibanze byifashishwa n'abakiryamyeho.

Abaturage barimo barakata urwondo, bambaye amajire ya croix rouge biragaragara ko hari umuntu bari gufasha kumwubakira ndetse n'ibindi. imbere yabo hari ibijerekani bitatu.

Icyumba cyo kwa muganga kirimo ibikoresho bitandukanye, harimo akameza gateretse hejuru y'igitanda umurwayi aryamaho, hirya hari imashini zabugenewe zo gupima uko umutima utera.

Umuganga wambaye itaburiya y'umweru na ga z'ubururu ari kuvura umumama wambaye umupira w'umutuku, bicaye ku ntebe z'umweru, ubuvuz ni bwiza butuma abaturage babaho ubuzima bwiza.

Icyumba gitangirwamo serivisi z'ubuvuzi gisize irangi ry'umweru ndetse kirimo urumuri, kirimo ibikoresho bitandukanye higanjemo intebe nziza ziri mu ibara ry'umukara ndetse hari abaganga bambaye impuzankano igizwe n'ibara ry'umweru.

Icyumba gitangirwamo serivisi z'ubuvuzi kirimo etajeri ikozwe mu mbaho, ibitsemo ibitabo bitandukanye, imbere yayo hicaye abantu batatu, abagore babiri ndetse n'umugabo umwe wambuye umupira w'umutuku ufite uturongo turimo ibara ry'umweru.

Igiti gifite amashami maremare ashashe, munsi yacyo hari abantu batandukanye hari umugore wambaye ikanzu iri mu ibara ry'ubururu ufite telefone ndetse n'inkoni mu ntoki, imbere ye hari akagari k'abamugaye karimo ibara ry'umukara, ndetse imbere ye hari umukecuru iruhande rwe hari umugabo wazamuye amaboko, wambaye imyenda iri mu ibara ry'umukara.

Abagore babiri, bahagaze mu kibuga kirimo ibyatsi, umwe muri bo yambaye ishati ndetse n'ikanzu y'umutuku, ku ruhande rwe, hari mugenzi we, wambaye ikanzu irimo ibara ry'ubururu, bombi bafashe akapa gato, kagaragaza icyemezo cy'ishimwe.

Imodoka yifashishwa mu gutwara abarwayi, irimo ibikoresho bitandukanye by'ikoranabuhanga, harimo gaz ebyiri ziri mu ibabura ry'umweru zifashishwa mu kongera umwuka umurwayi, hasi yazo hari igitanda cyifashishwa mu gutwara abarwayi ,kiri mu ibara ry'umukara.

Icyumba cyo kwa muganga cyifashishwa mu kuvura abarwayi, kirimo ibikoresho bitandukanye byifashisha mu gutanga serivisi z'ubuvuzi ndetse gisizwe irangi ry'umweru kandi gifite amadirishya manini arimo ibara ry'umukara ndetse afite ibirahuri byinshi.

Inzu mberabyombi aha ni ahabera inama zigiye zitandukanye, imbere yaho hahagaze abagabo ndetse n'abagore, baje mu mahugurwa runaka.

Itente ry'umweru rifite amabara atandukanye higanjemo iry'umweru, imbere yaryo hari abantu benshi bambaye amapantaro y'umukara ndetse n'imipira y'umweru bari kurahira, umwe muri bo ni umugore yambaye amarinete, umupira w'umweru ndetse n'ipantaro y'umukara.

Abajyanama b'ubuzima ndetse n'abandi bashinzwe imibereho myiza y'abaturage barimo baraterateranya udutebe ndetse n'utubati abarwayi baribuze kwifashisha.

Mu cyumba cyo kwa muganga, kirimo imashini zipima uko ubuzima bw'umurwayi buhagaze, hirya yaho hari iyindi mashini iriho imibare igiye itandukanye.

Icyumba kinini gisizwe irangi ry'umweru, kirimo ibikoresho bitandukanye higanjemo ibyifashishwa mu gukora isuku, kirimo umugezi uri mu ibara ry'umweru, hejuru yawo hari sanitayiza iri mu ibara ry'ubururu, iruhande gato hari icyuma kimanitseho imyenda iri mu ibara ry'umweru.

Abagore n'abagabo bicaye ku ntebe z'umweru, bambaye amataburiya y'ubururu, inyuma yabo hari igitambaro cy'umweru, n'umuhondo, hejuru hakazaho igitambaro cyicyatsi, n'umuhondo, n'ubururu.

Ibitaro birimo abantu batandukanye: abagore, abagabo ndetse n'abana. Hari abagore bambaye imipira y'umweru n'umugabo wambaye umupira w'umweru. Harimo ama meza n'intebe zitandukanye.

Ahantu hatangirwa serivisi z'ubuvuzi hari televiziyo imanitse munsi yayo hari umugabo w'umwirabura wambaye ishati igizwe n'ibara ry'umweru, iruhande rwe hari icyapa kiriho ikirangantego cya Repubulika y'u Rwanda ndetse imbere gato hari intebe zikozwe mu mbaho zicaweho n'imbaga nyamwinshi higanjemo abagore.

Icyumba cyahuriwemo n'abantu batandukanye harimo abazungu ndetse n'abirabura, barimo baraganira ku mibereho myiza yabo ndetse bababwira uko bagomba kubaho.

Icyumba kivurirwamo abarwayi kirimo urumuri ndetse gisizwe amarangi atandukanye higanjemo iry'umuhondo, kirimo abaganga benshi higanjemo abambaye impuzankano iri mu ibara ry'umweru, harimo umuganga w'umugabo, imbere ye hari umurwayi wicaye ku gitanda ndetse urimo serumu.

Umurwayi uryamye ku gitanda arwaye indwara y'amaguru yitwa imidida, hari abandi bagabo babiri barimo bitegereza ubwo burwayi bumiwe.

Icyumba gitangirwamo serivisi z'ubuvuzi kirimo abaganga batandukanye bambaye impuzankano iririmo ibara ry'umweru, kirimo umuganga w'umugabo ufite igitabo mu ntoki ndetse n'ikaramu imbere ye hari umurwayi w'umugabo wicaye ku gitanda cy'abarwayi.

Ababyeyi baje kwa muganga, ahari gutangirwa serivise z'ubuvuzi bw'ibanze, hari abicaye hari n'abahagaze bose biragaragara ko bakeneye guhabwa serivisi.

Icyumba gikorerwamo ubushakashatsi ku bijyanye n'indwara, kirimo ibikoresho by'ikoranabuhanga bitandukanye, ndetse kirimo umuganga w'umugore ufite ibisuko by'umukara wambaye impuzankano y'abaganga igizwe n'itaburiya irimo ibara ry'umweru, ari gusuzuma indwara akoresheje igikoresho cya mikorosikopi.

Umukobwa wambaye imyenda yabugenewe y'umweru, afite imisatsi miremire, yambaye uturindantoki tw'umweru, arimo arandika ibisubizo yabonye mu bipimo bitandukanye.

Icyumba kinini gikorerwamo ubushakashatsi ku ndwara zitandukanye kirimo urumuri ndetse gisize irangi ry'umweru, kirimo abantu benshi bateranye harimo abagore, imbere yabo hari umuganga wambaye impuzankano y'abaganga igizwe n'itaburiya irimo ibara ry'umweru.

Icyumba gikorerwamo ubushakashatsi ku ndwara zitandukanye. Kirimo urumuri ndetse n'abaganga benshi bambaye impuzankano iri mu ibara ry'umweru. Harimo umuganga w'umugore ufite ibisuko by'umukara, wambaye itaburiya iri mu ibara ry'umweru. Ari gupima indwara akoresheje icyuma cy'ikoranabuhanga cya mikorosikopi.

Icyumba kinini gikorerwamo ubushakashatsi ku bigendanye n'indwara kirimo umuganga wicaye wambaye agapfukamunwa, itaburiya iri mu ibara ry'umweru, yicaye ku gatebe k'agataboburete gakozwe mu mbaho, imbere ye hari igikoresho cya mikorosikope kifashishwa mu gupima indwara zitandukanye.

Umugabo w'umuganga yambaye itaburiya y'umweru afite igikoresho cy'umweru, imbere ye hari akameza inyuma ye igikuta mu ibara ry'umuhondo.

Icyumba gikorerwamo ubushakashatsi ku ndwara zitandukanye ndetse n'imiti kirimo urumuri kandi gisizwe irangi ry'umweru, kirimo umuganga w'umugabo w'inzobe wambaye impuzankano y'abaganga igizwe n'itaburiya iri mu ibara ry'umweru ndetse yambaye ga mu ntoki.

Icyumba gikorerwamo ubushakashatsi ku miti itandukanye, kirimo umuganga w'umugabo wambaye ishati ndetse n'itaburiya iri mu ibara ry'umweru ndetse yambaye ga y'umweru, ari gukora ubushakashatsi ku miti akoresheje ibyuma by'ikoranabuhanga ndetse afite agacupa mu ntoki, karimo umuti uri mu ibara ry'umutuku.

Icyumba kigirwamo kirimo urumuri gisizwe irange ry'umuhondo kirimo abanyeshuri batandukanye higanjemo abambaye impuzankano igizwe n'amashati y'umweru ndetse harimo ibikoresho byifashishwa muri laboratwari, kwiga ni ingirakamaro kuko bituma tugira ubuzima bwiza.

Icyumba gikorerwamo ubushakashatsi ku miti itandukanye, kirimo urumuri ndetse gisizwe irangi ry'umweru, kirimo kandi ibikoresho by'ikoranabuhanga byifashishwa mu kuvumbura indwara zitandukanye, ni byiza kugana ikigo nderabuzima kuko bituma tumenya uko duhagaze, bityo tugafata imyanzuro iboneye mu buzima bwacu bwa buri munsi.

Inzu nziza yubakishijwe amatafari ye ndetse ifite inzugirimo rimwe ibara ry'umweru, imbere yayo hari imbeho ndetse n'umugore n'umugabo, umugore atereye umwana, hirya ye hari umugabo wambaye marinete ndetse wambaye ikote ry'umukara ririmo uturongogo tw'umweru.

Imbuga nini y'igitaka irimo abanyeshuri bato bambaye impuzankano iri mu ibara ry'ubururu ndetse n'umukara, umwe muri bo yazamuye amaboko, iruhande rwe hari umubyeyi witeze igitambaro mu mutwe ndetse ukenyeye igitenge.

Itsinda ry'abamama benshi bari gutegura ibyo guteka, hagati yabo hari inanasi ndetse n'imboga zitandukanye ziganjemo: imboga rwatsi, inyanya, karoti ndetse n'intoryi, umwe muri bo akeneye igitenge ndetse n'igitambaro mu mutwe.

Icyumba kirimo urumuri kirimo umugabo w'umwirabura wambaye umupira uri mu ibara ry'ubururu uriho ikirangantego cya Repubulika y'u Rwanda, inyuma ye hari icyapa kinini gifite ubuso bw'umweru cyanditsweho amagambo ari mu ibara ry'umukara.

Umubyeyi utwikiye uruhinja mu ntoki, yambaye igipira kinini ndetse n'akantu ku kuboko, arimo arareba uruhinja rwe.

Abantu batandukanye harimo abagore n'abagabo ndetse n'abana, bahagaze imbere y'inyubako harimo abambaye imipira y'ubururu ndetse n'umweru imbere yabo hari jaride.

Imbuga nini yubakishijwe amapave irimo imbaga nyamwinshi y'abantu higanjemo abagore ndetse n'abagabo. Imbere hari abagabo babiri bafashe icyapa gifite ubuso bw'umweru, cyanditsweho amagambo ari mu ibara ry'ubururu, iruhande rwabo hari umupolisi wambaye impuzankano y'igipolisi cy'u Rwanda kiri ibara ry'umukara.

Ikibuga kinini kirimo ibyatsi kirimo imbaga nyamwinshi y'abantu bicaye ndetse n'abahagaze higanjemo abagabo, harimo umugore ufite imisatsi y'umukara, wambaye ipantaro y'umukara inyuma ye hari intebe ziri mu ibara ry'ubururu ndetse imwe muri zo yicayeho umugabo.

Abaganga, bafite ibikoresho bitandukanye, abenshi muri bo bambaye udupira tw'icyatsi. Urimo ubayoboye, arimo arabereka iminyururu, ndetse harimo n'abari gufotora.

Abagororwa ndetse n'ababashinzwe bafite icyapa mu ntoki cy'umweru cyanditseho amagambo agira ati: "Umunsi mpuzamahanga wahariye ubuzima bwo mu mutwe".

Icyumba kinini gikorerwamo inama, kirimo urumuri, ndetse kicawemo n'abantu batandukanye. Umwe muri bo ni umugore yambaye amarinete, ikote ry'umukara, ndetse yambaye ikanzu y'umuhondo. Imbere ye hari akameza gato, gateretseho icupa ry'amazi.

Umu harimo munini uteyemo ibihingwa bitandukanye, imbere yawo hari abana benshi bari gukina, imbere yabo hari abantu batonze umurongo bambaye imipira irimo ibara ry'icyatsi, umwe muri bo ni umugabo afite mikoro mu ntoki ndetse afashe urupapuro runini mu ntoki.

Icyapa kimanitse ahantu cyanditseho amagambo agira ngo baho neza twite ku buzima bwo mu mutwe, ubuzima bwiza bwo mu mutwe ni uburenganzira bwa buri wese.

Ihema ritwikiriye abantu benshi baje guhabwa amahugurwa agiye atandukanye ku birebana n'ubuzima, bicaye ahantu z'imyeru barakurikiye barimo baraganirizwa.

Inzu nini ikorerwamo inama irimo urumuri ndetse isize irangi ry'umweru hiciwemo n'abantu batandukanye higanjemo abagabo n'abagore bicaye ku ntebe ziri mu, ibara ry'umutuku imbere yabo hari umugore ubyibushye wambaye ikanzu.

Urubyiruko rw'abasore n'inkumi bicaye mu mucaca bakoze uruziga bari imbere y'inyubako yubakishije amatafari ndetse iteye irangi ry'mweru baraganira ku bintu bigiye bitandukanye bijyanye no guhumuriza abafite ibibazo byo mu mutwe.

Icyumba gitangirwamo serivisi z'ubuvuzi, kirimo urumuri ndetse gisizwe irangi ry'umweru. Cyicayemo umuganga wicaye ku ntebe y'umukara yambaye itaburiya iri mu ibara ry'umweru, imbere ye hari imeza iteretseho ibikoresho bitandukanye harimo na mudasobwa. Hirya gato, hari akabati gakozwe mu mbaho karimo ibitabo.

Abamasera batatu n'abagabo batatu n'abana babiri, inyuma yabo hari inzu ndetse n'indabyo, umwe muri abo bagabo yambaye ingofero y'umukara.

Icyumba k'ishuri cyubakishijwe amatafari ahiye ndetse gisakajwe amabati ari mu ibara ry'ubururu. Imbere yacyo hari abantu bakoze uruziga higanjemo abagore. Hari umusore wambaye bodaboda z'icyatsi, ipantaro y'ikoboyi ndetse n'ishati yamanitse amaboko. Iruhande rwe hari umugore ufite ibisuko by'umukara ndetse wambaye ipantaro y'umukara.

Icyumba gikorerwamo serivisi zo gucuruza imiti kirimo umugore w'umwirabura wambaye ikanzu igizwe n'amabara atandukanye higanjemo iry'umukara, hirya ye hari etaeri ikozwe mu mbaho irimo imiti itandukanye, ni ngombwa gufata imiti mu gihe turwaye kuko bituma tugira ubuzima bwiza.

Imbuga nini yubakishijwe amapave, imbere yayo hari inzu icururizwamo ibicuruzwa bitandukanye ndetse hari farumasi iriho icyapa kigizwe n'ubuso bw'umutuku ndetse cyanditsweho amagambo ari mu ibara ry'umweru.

Inzu icururizwamo imiti y'indwara, irimo umumama wambaye umupira w'umukara, imbere ye hari mudasobwa ndetse n'igitabo.

Inzu bacururizamo imiti y'amatungo atandukanye, ubucuruzi bw'imi by'amatungo nibwiza, butuma amatungo arwara akavurwa, ntatere igihombo aborozi.

Inzu icururizwamo imiti hari akabati k'umweru n'igikuta cy'umweru, gucuruza imiti ni byiza bituma hagabanuka imfu zitunguranye zitanateganyijwe.

Umuhanda munini w'umukara urimo uturongogo twinshi tw'umweru ndetse iruhande gato hari agahandada k'abanyamaguru kubabakishijwe amapove karimo umugabo uri gusunika igare, iruhande rwe hari inzu nini ikorerwamo ubucuruzi butandukanye iriho icyapa gifite ubuso bw'umweru.

Inzu icururizwamo imiti irimo igikoresho gikozwe mu mbaho kirimo imiti itandukanye higanjemo iri mu dukarito turi mu mabara y'ubururu, icyatsi ndetse n'umweru, imbere yatwo hari umugore w'umuganga wambaye itaburiya iri mu ibara ry'umweru.

Icyumba gicururizwamo imuti yo kwa muganga imiti itandukanye ivura indwara, akabati mu ibara ry'umweru kwivuza ni byiza bigabanya impfu zitateganyijwe mu bantu.

Icyumba kinini, gitangirwamo serivisi zo gucuruza imiti, gisizwe irangi ry'umweru, ndetse kirimo amakaro. Kirimo akabati kanini, kagizwe n'ibirahuri, ndetse gasizwe irangi ry'umweru, karimo imiti itandukanye, higanjemo iri mu dukarito tw'amabara atandukanye, arimo umutuku, icyatsi, ndetse n'umweru.

Abasore babiri bakina umupira w'maguru, bambaye udupira twumuhondo, umwe muribo yambaye ikabutura y'umukara n'akaboti k'umutuku, inyuma yabo hari ikibuga gikinirwamo umupira w'amaguru n'abantu batandukanye.

Amazu abiri meza imwe muri yo isize irangi ry'ubururu ndetse iriho icyapa kiriho ikirangantego cya repubulika y'u Rwanda, imbere yacyo hari abantu batandukanye higanjemo abicaye, hari umusore ufite mikoro ndetse na telefone mu kiganza iruhande rwe hari igiti kinini.

Icyumba kinini gisigazwe irangi ry'umuhondo, kirimo imbaga nyamwinshi y'abantu bicaye, higanjemo abahungu ndetse bicaye ku ntebe zikozwemo mbaho, imbere hari ameza nini iriho impapuro zitandukanye, iruhande rwayo hari umugabo w'umwirabura, wambaye ishati iri mu ibara ry'umukara.

Icyapa kinini kiri mu ibara rya oranje cyanditseho amagambo y'umweru agira ngo kina unirinde, munsi yayo handitseho kabiri n'ibice zeru.

Umuhanda nyabagendwa urimo amamodoka menshi n'abaturage benshi. Imbere hari umupolisi, inyuma ye hari abaturage batandukanye bafite igishushanyo.

Ivomero rusange ririho ibijerekani bitandukanye biri mu ibara ry'umuhondo ndetse n'imbaga nyamwinshi y'abantu higanjemo abagore, umwe muri bo yambaye ijire irimo ibara rya oranje ndetse akenyera igitenge mu mutwe.

Umubyeyi wambaye umupira w'umutuku, bamwambitse igikoresho cyagenewe gipima umuvuduko w'amaraso ndetse kigapima n'uko umutima utera, aha ari kwa muganga.

Abantu batandukanye harimo abasore n'inkumi, abagabo n'abagore, bicaye ku ntebe z'ubururu, inyuma yabo hari inzu n'icyapa yo mu ibara ry'umutuku.

Umumama wambaye agapira k'ubururu n'igitenge cy'umutuku, yicaye ku kirago. Imbere ye hari ibikoresho bitandukanye, ari gukora umuti wa kinyarwanda.

Umuvuzi gakondo wambaye ingofero ikozwe mu ruhu rw'inyamaswa ndetse n'imyenda irimo amabara atandukanye higanjemo ay'umukara n'umweru, yicaye ku kirago kiriho imiti itandukanye, inyuma ye hari amacupa menshi arimo imiti.

Ibimera na byo byifashishwa mu kuvura, uyu ni umuravumba washyizwe mu mazi ndetse n'utundi tumera dutandukanye, ibi bivura indwara zirimo inkorora ndetse n'inzoka.

Umugabo wambaye ishati y'umweru n'amaboko maremare. Ari ahantu hari imizi y'ibiti ndetse n'ibyatsi bitandukanye, bisa nkaho ari umuvuzi gakondo.

Icyumba gicururizwamo imiti y'amatongo, imiti y'amatungo ni myiza ituma aborozi badapfusha amatungo yabo, kubera ko babonye ahantu ho kujya ku kugurira imiti ubworozi bwabo bugatera imbere.

Ikirangantego cyanditseho amagambo ari mu ibara ry'icyatsi ndetse ari mu magambo y'Icyongereza, aravuga ko ari ikigo cy'Igihugu gishinzwe ubuvuzi gakondo mu Rwanda.

Inzu ifite ibara ry'ubururu mu kabaraza kayo harimo intebe, iruhande rwayo harimo ikigega ndetse iri ahantu mu ishyamba, imbere yayo hari jaride.

Abagore babiri bari mu cyumba, umwe ni umuganga undi yambaye ibitenge, yaje gushaka serivisi z'ubuzima barimo baramubwira imibare y'ubuzima bwe.

Inzu nini isizwe irangi ry'ububororo iriho abantu batandukanye, ndetse imbere yayo hari igikoresho cya kandagira ukarabe kirimo ibara ry'umweru, imbere yacyo hari umugore uri kugenda wambaye ibitenge ndetse afite isakoshi irimo ibara ry'umukara mu ntoki.

Inyubako yiganje mu ibara ry'ubururu. Mu kabaraza kayo harimo aba mama n'abana imbere y'iyo nyubako haru umugabo uri gukaraba intoki wambaye ishati y'umweru n'inkweto z'umukara imbere y'iyo nzu hari jaridi.

Umubyeyi wicaye mu cyumba wenyine, imbere ye hari ameza atetseyeho mudasobwa, arimo arayikandakanda, iruhande rwayo hari impapuro, yakoreyeho ibizamini.

Icyapa kigizwe n'ubuso bw'umweru kigizwe n'amabara atandukanye higanjemo iry'icyatsi, cyanditsweho amagambo ari mu ibara ry'umuhondo, kandi kiriho inkoko y'isake, hirya yayo hari inkokokazi hasi gato hari udushwi duto tubiri.

Umubyeyi uhagaze ku nzu iteye irangi ry'icyatsi, ryanditseho amagambo agira ati girubuzima, uyu mubyeyi yambaye ikanzu idozwe mu gitenge.